Aya ni amandazi akabaha bimwe mu byo kurya byoroheje bikorwa mu ifarini, aho benshi bayifashisha ku mafunguro yabo ya mu mu gitondo cyangwa se nk'abari mu kazi, ku rugendo bakaba bayafata kugira ngo bakomeze kugira imbaraga.

Inyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe Imisoro n'Amahoro gikorera mu Gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi n'ukora indi mirimo inyuranye, umaze kumenyekanisha kandi akishyura umusoro we neza.

Aba ni bamwe mu bakora umwuga w'ubucuruzi, bacuruza ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imboga, akaba ari zimwe mu byo umubiri wacu ukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, cyane ko zirinda indwara zigatera imbaraga ndetse n'ibindi.

Iki cyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, kikaba gihabwa umucuruzi ndetse kigashyirwaho n'umubare w'ibanga azajya akoresha, aho byorohereza ugize icyo agura, kuba yakwishyura yifashishije amafaranga afite kuri telefone ye.

Uyu ni umwe mu bakozi bakorana na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho afasha abaturage kubona uburyo bwo kugura amayinite, kubitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kuyoherereza abandi n'ibindi bitandukanye mu buryo bworoshye.

Aba ni abakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho baba bari kwamamariza ibikorwa byayo ahantu hatandukanye hahurira abantu benshi, kugira ngo barusheho kubisobanukirwa kandi babe bayigana.

Iki cyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gishyirwaho umubare w'ibanga umucuruzi azajya yifashisha cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye kugira ngo byorohere umugannye, kuba yakwishyura, yifashishije amafaranga afite kuri terefone ye.

Aka ni akazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereza ibyo ikora abaturage kugira ngo biborohere kubona aho babitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kuyoherereza abandi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Uyu mucuruzi n'ugemuriye ibicuruzwa wabitumije yifashishije ikoranabuhanga. ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa mukazi kandi bikabagezwaho byihuse.

Uyu mucuruzi agemuriye uwaguze yifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa se mu gihe nta mwanya bafite, bakabigezwaho byihuse.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye, kuko hari imyanya inyuranye abaje kugura bicaramo, benshi bakahaza bakeneye gusangira n'imiryango yabo, n'inshuti zabo, ndetse bakaba banahidagadurira.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ari uburyo leta yashyiriyeho abaturage by'umwihariko abafite ubushobozi buke, bikaborohera kubona ubuvuzi bakeneye, bitabaye ngombwa ko barembera mu rugo kubera kubura amafaranga yo kwiyishyurira.

Iyi karita ni iy'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari uburyo leta yashyiriyeho abaturage kugira ngo biborohere kubona ubuvuzi bakeneye, batarembeye mu rugo bitewe no kubura ubushobozi bwo kwiyishyurira.